Umugabo ukora muri resitora cyangwa muri bale, ufite inyama zokeje cyangwa se zibabuye ziri ku mushito cyangwa ku gati. Akaba azishyiriye abakiriya cyangwa abazikunda nk'akabenzi.

Ifi barobye bari gutunganya, ku cyokezo, kugira ngo ibashe kuribwa, ndetse bari kuyitegurana n'ibindi barayirisha, harimo inyanya ndetse n'ibindi birungo bigiye bitandukanye, kugira ngo ibe iryoshye.

Ahantu bacururiza amoko yose y'amayoga. Abantu bakaba bahaza baje kugura amayoga yo kunywa, ndetse no kwishimisha bisanzwe, no gufata ikindi cyo kurya, cyangwa se no gusabana na bagenzi babo.

Inyama zokejwe zishinze ku gati cyangwa se bita umushito. Izi nyama bakaba bazita mushikake, zikaba zamaze kotswa, zikaba zirambitse ku isahani bategereje kuba bazirya, cyangwa se bakazikoresha, bakazicuruza.

Abantu bari kunywa amayoga agiye atandukanye, bari mu kabari bishimye, abandi bari kureba tereviziyo, abandi bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, bigaragara ko bishimye cyane.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'imyidagaduro, ndetse no kunywa no kurya, izwi nk'akabari aho abantu bagenda bakishyura amafaranga bagahabwa inzoga zitandukanye zo kunywa, ndetse bagasabana na bagenzi babo.

Inzu zikorerwagamo ubucuruzi buciriritse bw'ibiribwa n'ibindi bikoresho biciriritse, ndetse imodoka iparitse imbere y'aho. Hafi hariho umutaka ukorerwaglmo n'umu agenti wa airtel.

Inyubako cyangwa inzu bacururizamo inzoga, cyangwa se n'inyama z'akabenzi, aho abantu bagenda bakishyura amafaranga bitewe n'icyo bashaka bakanywa cyangwa bakanarya.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi, zizwi nka butike, aho abantu bahahira ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bagiye kubikoresha mu ngo zabo, cyane cyane biba byiganjemo ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Aha hantu harasa n'aho ari hoteri icumbikira abantu, cyangwa se itanga ibyo kurya abantu baba baruhukiraho igihe icyo aricyo cyose bananiwe, cyangwa se bajya gushakiraho n'izindi serivisi zerekeranye n'ibyo kurya cyangwa se amacumbi n'ibindi.

Inzu ikorerwamo business yo gucuruza amayoga, ndetse no gutanga amacumbi ku bantu bafite amafaranga, baje bashaka gucumbika. Ndetse bakabagurisha n'inzoga zo kunywa mu gihe baruhutse.

Inzu cyangwa inyubako bakoreramo ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane ubwo kuranguza ibiribwa, abacuruzi batandukanye baza kurangura kugira ngo na bo bajye gucuruza ibicuruzwa baranguye bakuremo amafaranga yo kwiteza imbere.

Iduka bacururizamo imiti itandukanye, harimo izica udukoko cyangwa se izikoreshwa mu kwirinda indwara runaka, zaba iz'ibihingwa bitandukanye, kugira ngo abahinzi cyangwa aborozi, bazagere ku musaruro mwiza ushimishije.

Iduka cyangwa inzu icururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, higanjemo: amafu y'ubwoko bwose cyane cyane amafu ya kawunga, hakaba harimo n'amakarito arimo ibindi biribwa bitandukanye. Abantu baza kurangura, nabo bakaja kubicuruza kugira ngo bakuremo inyungu.

Ahantu abantu basohokera bagiye kuruhuka cyangwa se bagiye gutembera, ndetse no gufatirayo ibintu byo kurya cyangwa se kunywa, ndetse n'ibindi bikorwa byo kwishimisha ndetse n'imyidagaduro.

Inyubako ya kijyambere ikorerwamo ibikorwa by'iterambere nk'ubucuruzi, aho bagurisha cyangwa se baranguza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bikajya gucuruzwa n'ahandi henshi mu gihugu.

Inzu ya etaje ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hamanitse ibyapa bigaragaza ibyo bakorera muri izo nzu, iby'amaresitora bigaragaza ko batanga ibiryo ndetse n'ibindi byo kugaragaza serivisi batanga mu kazi kabo ka buri munsi.

Icapa cyo kwamamaza ibyo bakora, aho bashyizeho ishusho y' umusore n' umugeni bigaragara yuko batanga serivisi z' ubukwe zigiye zitandukanye, bakaba barashizeho na nimero zabo babahamagaragaho mu gihe baba babakeneye.

Inzu nto ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'akandi kazu kari iruhande y'ako gakunda gukorerwamo n'abitwa aba agenti, babitsa bakanabikuza amafaranga y'abaturage.

Amazu y’ubucuruzi ari mu gasantere yavuguruwe kugira ngo ajyane n’igihe. Akaba yarakorewe amavugururwa agaragara nk’aho akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye bw’ibiribwa cyangwa se ubw’ibinyobwa n’ibindi bikenerwa n’abantu.

Inzu ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, bwiganjemo imyenda cyane cyane iy'abagore, ndetse n'ibindi byo kurya birimo amavuta ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye abantu bagura bakajya kuzifashisha.

Inzu icumbikira abantu bagiye batandukanye bari mu rugendo, cyangwa se bashaka kuruhuka no kurara mu macumbi, bakishyura amafaranga runaka ndetse bagafata icyo kurya cyangwa icyo kunywa.

Inzu bakoreramo ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi nk'amarangi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, imyiko cyangwa se ibikoresho by'abafundi cyangwa se abubatsi bakunda gukoresha.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi buciriritse Izizwi nka butike, ndetse n'imitwaro y'ibisheke birambitse imbere yaho bigiye kugurishwa cyangwa se byamaze kugurishwa, kugira ngo biribwe n'ababiguze.

Abantu bakora akazi ko gukanika ibinyabiziga byiganjemo amagare, kugira ngo yongere yifashishwe mu gutwara abantu n'ibintu, ndetse n'imizigo igiye itandukanye.

Inzu igeretse cyangwa se yubatse mu buryo bwa kijyambere izwi nka etaje, ikaba ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, ikaba iri impande y'umuhanda wa kaburimbo.

Inzu zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ahiganje amagaze, abacuruza ama inite bari mu mitaka ya MTN ndetse n'ibindi bikorwa by'ubwubatsi hirya y'aho bikomeje.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, imbere haparitse abakora akazi ko gutwara abantu kuri moto bazwi nk'abamotari, baba bari gushaka amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Inzu bacururizamo ibitambaro by'amoko yose. Ndetse hakaba hari n'abadozi cyangwa abazwi nk'abatayeri, bashobora guhita bakudodera mu gihe iyo umaze kugura igitambaro ushaka kukidodesha. Hakavamo umwenda wo kwambara.

Iduka rigurishirizwamo ibikoresho by'ubwubatsi birimo insinga z'amashanyarazi, za senyenge, ibikoresho by'isuku birimo imikubuzo n'ibindi ndetse n'ibikoresho by'amatiyo byifashishwa mu bwubatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo amazi acuruzwa asukuye azwi nka jibu. Ndetse ikaba inarimo imitobe igiye itandukanye nka za novida, abantu bakaba babigura kugira ngo babinywe, ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Iduka cyangwa se inzu y'ubucuruzi, icururizwamo imyambaro yiganjemo imyenda n'inkweto. Bakaba bakoresha ibishushanyo bigiye bitandukanye bifashisha mu kwamamaza, kugira ngo bakurure abakiriya baze kugura ibicuruzwa byabo.

Iduka bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ibinyabiziga, higanjemo ibikoresho by'amagare. Amagare akaba yifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye, bayijyanye ku masoko kugurisha ibyo bicuruzwa ,cyangwa se bavuye nanone kugura ibindi bicuruzwa.

Inzu icururizwamo ibitambaro bigiye bitandukanye cyangwa se ibizwi nk'ibitenge, ndetse na bizinesi y'ubudozi aho umuntu abadodera bakamwishyura amafaranga.

Amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho abayakoreramo bajya kurangura ibicuruzwa bakabizana, na bo bakabicuruza ku mafaranga yiyongereyeho, ugereranyije n'ayo baba babiranguye.

Isantere y'ubucuruzi irimo amazu ashobora kuba akorerwamo ubucuruzi buciriritse, ndetse n'umuhanda wifashishwa mu gutwara abagenzi, umumotari uhetse umugenzi amujyananye mu cyerekezo runaka.

Iduka ritoya bacururizaho imyenda ndetse n'akazu gacururizwamo amaiyinite, gakorerwamo n'uwitwa umu ajenti aho aba abikuriza abantu amafaranga, cyangwa se akayababikishiriza.

Inzu ikorerwagamo ibikorwa by'ubucuruzi, imbere yayo hakaba hari ibiti by'uruzitiro byifashishwa mu kurinda cyangwa se kwirinda yuko hagira ibibazo by'umutekano muke uhagaragara nk'ibibazo by'abajura bahinjira.

Umuntu ukora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto uzwi nk'umumotari uhetse umugenzi amujyananye ahantu runaka, bakaba barimo kunyura imbere y'amazu akorerwagamwo ubucuruzi bw'inzoga, cyane nk'izitwa mitsingi, bigaragara ku cyapa kiri imbere ya zino nzu.

Inzu icurizwamo imyenda, cyangwa se iduka ricururizwamo imyenda, hakaba hifashishwa bino bishushanyo bigiye bitandukanye mu kugaragaza imyenda bacuruza, kugira ngo babashe gukurura abakiriya baze kuyigura.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi buciriritse, burimo ubucuruzi bw'amayoga, ndetse n'ubucuruzi bw'ibindi biribwa byo aho, hakaba hariho ibyapa bifasha nyir'iyo nzu n'ubwo bucuruzi gukora ibikorwa byo kwamamaza, cyane ko yamanitseho ibyapa bigaragaza inzoga acuruza.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi cyane cyane ubw'ibinyobwa, bigaragazwa n'ibyapa byashyizwe kuri ayo mazu bigaragaza inzoga runaka bacuruza, cyane cyane mitsingi ndetse imbere y'izo nzu akaba hateyeho ama vaze arimo ibiti.

Inzu zicururizwamo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu rugo, harimo imikoropesho ndetse n'ibikoresho bindi byifashishwa mu guteka, harimo udukombe ndetse na za gaze. Hakaba harimo n'ibiribwa bigiye bitandukanye, nk'umuceri na za kawunga.

iduka cyangwa se inzu icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, byaba iby'imyambaro cyangwa se n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi nk'ibikapu, imyambaro, amasafuriya, amasahani, n'ibindi byose bigira akamaro mu buzima bwa buri munsi.

Inzu ikorerwamo serivisi zo gutunganya ubwiza cyane cyane kogosha, gusuka ndetse no gusokoza aho abantu babagana bashaka gukora ibyerekeranye n'ubwiza, kugira ngo babashe kugaragara neza.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi higanjemo ubucuruzi bwa gaze ndetse n'ubucuruzi bw'ibikoresho bya siporo, nk'imipira izwi nka balo ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye nk'amayoga.

Inzu nziza cyane, ishobora kuba ari hoteri cyangwa se ahantu hari amacumbi, abantu bashobora kuba baruhukira, bakanahafatira icyo kurya cyangwa se icyo kunywa, bakanaruhuka bakaba bakwishimisha.

Isoko ry'ibiribwa ryubatse mu buryo bwa kijyambere, cyangwa se mu buryo bwa etaje, rikaba rihahirwamo n'abantu b'ingeri zose, baba baje gushaka ibyo kurya, bitwaje amafaranga yabo yo guhahisha. Nabo bakabona ibyo guteka.

Inzu icururizwaho amayoga cyangwa se n'ibiribwa bigurishwa ku bantu bagiye batandukanye, baba baje kuruhukira hano hantu, bakishyura amafaranga bagereranyijwe n'ibintu baba bakoresheje.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye nk'amayoga, cyane cyane bigaragazwa n'uko hari ibyapa byamamaza ayo mayoga bacuruza, harimo mitsingi n'izindi zigiye zitandukanye.

Inzu nini cyane ya kijyambere ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'umuhanda wuzuyemo abantu urujya n'uruza. Abakora akazi gatandukanye ko gutwara abantu kuri moto ndetse n'imodoka zitandukanye, abakora akazi ko kubitsa no kubikuza bazwi nk'aba ajenti.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'imari ndetse no kubika no kubikuza amafaranga, abaturage baba bazanye baje kuyabitsa kugira ngo bayizigamire bazayakoreshe mu gihe kiri imbere.

Uruzitiro cyangwa se igipangu kizitiye ahantu hari inzu bakoreramo ubucuruzi bw'inzoga cyangwa se akazwi nk'akabari, aho baba batanga inzoga zigiye zitandukanye zo kunywa ku bakiriya babo.

Abantu babiri bari munzu y'ubucuruzi bw'iduka ririmo imifuka, imiceri ndetse n'indobo, bigaragara ko hahahirwa ibiryo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi bw'abantu. Ikaba ari bizinesi y'ubucuruzi yashinzwe n'umuntu.

Inzu y'ubucuruzi aho bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo iby'ikoranabuhanga cyangwa se iby'ibyifashishwa mu rungendo nk'amagare ,hakaba harimo n'amaradiyo y'ikoranabuhanga rihambaye cyane, azwi nk'ampuli avuga cyane.

Inzu nziza cyane izwi nka etaje, ikikijwe n'ibiti ndetse n'indabyo nziza cyane, bigaragara ko ishobora kuba ari hoteri cyangwa se ahandi hantu hashobora kuba abantu basohokera. Cyane ko bisa naho ari ahantu hashimishije cyane, hateye ibyishimo, abantu bakunda kuba bari.

Inzu nziza cyane, iri ahantu hari ubusitani, bigaragara ko abantu baharuhukira cyangwa se baza baje kuhafatira akayaga, bakishyura amafaranga kugira ngo bahabwe n'izindi serivisi zigiye zitandukanye.

Inyubako cyangwa se inzu icumbikira abagenzi bagiye batandukanye bakishyura amafaranga, ndetse bakaba bana hafatira icyo kunywa cyangwa se icyo kurya bitewe n'icyo bashaka, bakaba bahabona n'amacumbi.

Isoko ry'ibiribwa, ririmo imineke n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, nk'imyembe, amapapayi ndetse biri ku bisima, rikaba ari isoko risakaye rifite inkingi z'ibyuma.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibiribwa biteretse ku byo bita ibisima, bikaba bitegerejwe gucuruzwa na ba nyirabyo, babiha abakiriya bajya kubiteka cyangwa se kubirya mu ngo zabo, ndetse no kongera kubigurisha.

Amafi atunganyijwe ari mu ibase ategereje utunganywa neza, kugira ngo aribwe cg se abashe kuba yagezwa ku isoko, abakiriya bakayagura.

Igikorwa remezo cy'isoko rya kijyambere riberamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, abantu benshi bakaba bahahurira bamwe baje guhaha abandi baje kugurisha ibicuruzwa byabo, hakaba hariho benshi bafite ubuzima bwabo bushingiye ku bikorwa bikorerwa hano hantu.

Inzu nini cyane ya kijyambere ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, izwi nk'isoko rya Goyiko. Iikaba ari inzu nini cyane iherereye mu Mujyi wa Musanze, rikaba rinagira uruhare rukomeye, mu iterambere ry'ubukungu bw'aka Karere.

Igihingwa cyitwa ibirayi, bikaba bikunda guhingwa ahantu hari ubutaka bwirabura cyane cyane mu karere ka Musanze. Ibi bikaba ari ibihingwa bikundag kuribwa n'abantu bagiye batandukanye, kubera uburyohe bwa byo.

Ibicuruzwa byiganjemo ibikoresho byo mu rugo, utwitwa udukosi, indobo ndetse n'amasafuriya bitegereje kugurishwa ku bakiriya, bakajya kubikoresha mu ngo zabo, babikoresha akamaro gatandukanye.

Amoko y'amavuta yo kwisiga, abantu bagura bakajya kwisiga, cyane cyane kugirango ngo bakomeze bagire uruhu rwiza cyane, aya amavuta akaba apanze nko muri botike, kugira ngo azacuruzwe ku bakiriya.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mirimo yo mu rugo, cyane cyane imirimo yo mu gikoni ndetse n'ibikorwa byo ku meza, byiganjemo amasahani, ibiyiko ndetse n'udukombe. Bikaba bikoreshwa mu gutegura cyangwa se gufata amafunguro.

Imyenda irambitse hasi icuruzwa umucuruzi akaba ayirangura kugira ngo ayicuruze abonemo inyungu. Ikaba ari imyenda izwi nka caguwa, abaturage bakaba bayigura ku mafaranga make cyane, amafaranga bitabahenze kuyabona.

Abantu bateraniye ahantu hari igikorwa remezo cyitwa isoko, abenshi baje guhaha abandi bakaba ari abacuruzi, bari gucuruza ibicuruzwa byabo, kugira ngo abantu bajye kubikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibinyobwa n'ibiribwa biri mu iduka bipanze neza muri muri etajeri cyangwa se contwari n'ibigurishwa ku kiranguzo cyangwa se bikaba bigurishwa kimwe kimwe ukurikije uko abaguzi ndetse n'umugurisha asanzwe agurisha.

Isoko ry'ibiribwa, ririmo bisima ndetse n'abantu basa n'abariremye, indobo n'abantu benshi bari guhaha udufuka, ndetse n'indobo zirimo ibiraha n'inyanya.

Ibikoresho byifashishwa mu rugo cyane cyane mu gikoni, birimo amasafuriya, amasahani ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye, twifashishwa mu gutegura amafunguro kugira ngo aribwe.

Isoko ryuzuyemo abantu ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, birimo ibyo kurya, ibindi bikabamo imyenda n'inkweto. Abantu bakaba babizana mu masoko baje kugurisha, abandi bakaza mu masoko nabo baje kubigura hari n'abacuruza ibyo kurya bitandukanye babunza mu ndomo.

Inkoko za kijyambere zorowe mu buryo bwa kijyambere, ziri mubyo bita ikibuti. Ndetse n'umuntu uri kuzigaburira cyangwa se ushobora kuba ari kuzikorera amasuku, no gutoragura amagi ziba zateye.

Umugore uri gutondeka amabati yasakaye inzu bwa mbere, bakaba barayavanyeho, bakaba bashaka kugira ngo bazayakoreshe ibindi bintu. Akaba ari kuyabara cyangwa se ari kuyatondeka impande y'inzira aho abandi bantu bacaga.

Isoko rya kijyambere rikorerwamo ibikorwa byo gucuruza ibiribwa byo kurya, rikaba ari isoko ryubatse mu buryo bwa kijyambere, cyangwa se mu buryo bwa etaje. Abantu bakaba baza kuhagurira ibiribwa bitandukanye, byo kujya guteka mu ngo zabo.

Isoko ririmo ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa cyane cyane ibirayi, bikunda kwera mu majyaruguru mu karere ka Musanze, biri mu mifuka, hakaba hari abacuruzi bari kubicuruza, ndetse n'abaguzi baje kubigura.

Abantu bari mu gasoko gaciriritse bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo: intoryi, inyanya, bakaba bari gukoresha uburyo bw'imifungo, aho abaturage baza bakishyura amafaranga angana n'imifungo bagiye barafunga.

Umugore bigaragara ko ari umudozi, waryamishije umwana hafi aho ngaho, uri gukurikirana imyenda yindi, imakasi n'icyarahani, bisa n'aho ari ibikoresho asanzwe akoresha, ndetse n'imyenda n'ibitambaro akoresha.

Isoko bacururizamo ibikoresho bitandukanye bikoreshezwa mu rugo, birimo ibikosi n'ibindi bikoresho bakoresha bari guteka byitwa amasafuriya, hakaba harimo kandi ipanu, ipanu ikaba ikoreshwa bari gukora ibiribwa biryoha cyane nk'imigati cyangwa se mu guteka amafiriti harimo kandi ibiringiti.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi buciriritse izwi nka butike. Hakaba harimo ubwoko bw'amafi agiye atandukanye, nk'ifu y'ubugari, ndetse n'ifu ikorwa mu bigori izwi nka kawunga, ikundwa kuribwa cyane.